Abaganga benshi bari gutanga ubuvuzi ku babyeyi, bari kubasuzuma babatera inshinge ku kaboko kugira ngo babashe gufata amaraso yabo, bayasuzume niba nta kibazo afite.

Abana babiri bari ku ivomo rusange, bari kuvomera amazi mu ndobo z'umweru, barishimye ndetse bari guseka, inyuma yabo hari ibiti bifite amashami manini.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano, ari gukaraba intoki ku ivomo cyangwa kuri kandagira ukarabe y'ikigo cyabo, inyuma ye hari ibiti byishwe n'izuba.

Abana benshi bambaye impuzankano y'ibara ry'umuhondo, bazamuye amaboko bishimye bari kumwe n'abandi bantu bahagaze mu muryango, harimo abambaye amarobi n'abo bishimye bazamuye amaboko.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'urubaho ziri hanze inyuma y'ivuriro, bategereje serivise zitandukanye z'ubuvuzi, hejuru yaho hari impapuro zimanitse ku rukuta ziriho uburyo bwiza bwo kwita ku muryango ndetse n'uburyo bwo kwita ku barwayi.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye ahantu hamwe, hari inyubako yubakishijwe amabuye, isakajwe amabati atukura, imbere yayo ifite ihema rinini ry'umweru ryari ryateraniyemo aba bantu, inyuma yaryo hari imodoka ihagaze ku ruhande.

Umuganga uri gukingira umuntu amutera urushinge ku kuboko, yambaye uturindantoki kugira ngo atavaho yamwanduza indi ndwara bitewe nuko haba hapfumuye haba havuye amaraso hakaba habaho kwihuza kw'amaraso hagati y'uyu muganga ndetse n'uyu muntu ari gukingira.

Abaganga bari kuvura abarwayi babatera udushinge ku ntoki, bisa n'aho bari kubasuzuma indwara runaka. Inyuma yaho hari umukangurambaga wambaye umwambaro w'akazi.

Abantu benshi bahagaze, bashagaye abantu bari gukina ikinamico, bisa naho bari gukangurira abantu kwirinda icyorezo cya Ebola, umwe mu bahagaze afite indangururamajwi, undi bari gukinana apfukamye hasi yubitse umutwe, yiteze igitambaro cy'umweru.

Umuntu uri gukaraba intoki n'amazi ku ivomo rusange, amazi ari gutemba ajya ku maboko, andi agatemba ajya hasi, ku ruhande hari igicu kijimye.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo ku meza hari icupa ry'amazi, n'urupapuro rwanditseho amazina yabo, ndetse n'agakayi bari kwandikamo iby'ingenzi.

Abantu benshi bari ku ivomo rusange, bafite amabase, bakagira amasafuriya ahateretse na ndetse n'amajerekani, harimo abana, abagore ndetse n'abagabo baje kuvoma.

Icyumba kinini cy'inama, kirimo abantu benshi bayitabiriye, ndetse hari n'abayobozi babo bicaye imbere, buri muyobozi imbere ye hari indangururamajwi, ndetse afite n'icupa ry'amazi, mu bitabiriye inama harimo n'abanyamakuru bafite na camera.

Umwana uri gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ari gusukirwa amazi ku ntoki n'undi muntu akoresheje ijaga y'icyatsi kibisi.

Umwana uri ku ivomo rusange, ari gukaraba intoki, inyuma ye hari indobo y'ubururu ndetse n'imbere ye hari indi y'ubururu, inyuma cyane hari ibiti bifite amababi y'umuhondo.

Abana benshi bicaye bari guhabwa igikoma, harimo abapolisi n'abandi bita ku bana bakiri bato, abita ku bana bambaye imyambaro y'umuhondo ndetse n'abo bana bambaye imyambaro y'umuhondo.

Umugabo wishimye uri guseka ahagaze ku ivomo rusange afashe ku njerekani, inyuma ye hari ubwatsi bwinshi butoshye.

Umuntu uri mu cyumba cy'abarwayi ari kureba mu mashini isuzuma uburwayi, uyu muntu yambaye agapfukamunwa k'ubururu, yiteze igitambaro mu mutwe.

Abantu benshi bari kuvoma amazi ku ivomo rusange, rifite imiyoboro ibiri imanura amazi, baje kuvoma bakoresheje indobo ndetse n'amajerekani. Iri vomo riri ahantu mu ishyamba.

Umugabo uri gukaraba amazi kuri kandagira ukarabe ikoze mubiti yambaye ishati y'ubururu bwerurutse ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara yanatebeje.

Abantu benshi bamwe bahagaze abandi batatu basutamye imbere y'abahagaze bicaye ku mabuye ndetse umwe muri bo bambaye amatabu y'umweru bambaye amakarita agaragaza imirimo bakora.

Abana babiri, bishimye, umwe ari gukarabya undi ku ntoki, bisa naho aba bana basobanutse kuko umwe ari gusukira undi amazi ku ntoki akamukarabya.

Abantu benshi bahagaze bifotoza, bamwe muri bo bambaye indorerwamu z'amaso, abenshi bambaye imyambaro y'umweru hejuru abandi iy'ubururu, bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho amagambo agira uti hehe n'igwingira, twite ku buzima bw'umubyeyi n'umwana.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri abantu benshi bafashe icyapa kinini bambaye ingofero z'umweru n'imipira y'imyeru ndetse abandi umwe muri bo bambaye imipira y'ubururu bwererutse inyuma ya bo hari igiti kinini ndetse n'inyubako ndende.

Abaganga bahagaze imbere y'ivuriro bisa naho bari gufata ishusho y'urwibutso, bambaye imyambaro y'akazi, bakorana iyo bari kwita ku barwayi.

Umuganga uri gutanga ubuvuzi ku bakecuru bakuze, ari kubasuzuma umuvuduko w'amaraso, bisa naho yabasanze ahantu batuye.

Umwana wambaye ishati y'ubururu, n'ipantaro y'umukara, ari gufungura ku ndobo y'umweru, atezeho intoki. Inyuma ye hari uruzitiro rwimbaho z'ibiti.

Umujyanama w'ubuzima uri kuganiriza ababyeyi bari kumwe n'umwana, bafite ikayi mu ntoki ze ndetse n'ikaramu, bigaragara ko bose barishimye kuko bari guseka, baranezerewe.

Umwana w'umukobwa muto uri gukarabira kuri kandagira ukarabe, afite indobo y'icyatsi n'ibasi y'icyatsi imenekamo amazi, arishimye ari guseka, inyuma ye hari ubwiherero bwubakishijwe amatafari ahiye.

Umwana yicaye asutamye, ari gukaraba intoki ku ivoma rusange, iruhande rwe hari injerekani nini z'ubururu n'izindi z'umuhondo, inyuma ye hari ibyatsi byinshi.

Abantu babiri, umwe arahagaze undi aricaye. Uwicaye afashe umwana, uhagaze ari kumuha utuntu mu kanwa. Yambaye itaburiya y'umweru, inyuma ye urugi rusize amarangi y'icyatsi kibisi. Urukuta rufite amarangi.

Abana benshi bazengurutse ivomo rusange gukaraba intoki batezeho uruhombo runini ndetse amazi ari kumeneka mu ibase itukura inyuma y'aba bantu hari ishyamba rinini ririmo ibiti by'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bari ku ivomo rusange, umwe yambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara arimo arabazamurira amazi, hirya ye hari imodoka y'ibara ry'umweru, impande y'imodoka hari ibiti byinshi.

Abantu benshi b'ababyeyi bari kwa muganga, bisa naho bari gukingiza abana, bari kwitabwaho n'abaganga, babandikira imyirondoro mu mafishe yo kwa muganga.

Umuganga uri kuvura umwana uri kumwe n'umubyeyi we, witandiye'igitambaro mu mutwe ari kumwereka mu kantu gapima Malaririya indwara, inyuma yaaho hari umuganga uri kwandika mu bitabo wambaye umwambaro w'umweru.

Umugore uhetse umwana mu gitenge ari koza umufuniko w'indobo w'umutuku indobo iri munsi ye ifite ibara ry'umuhondo kuruhande hari indi y'umutuku impande ye hari ivomo rusange inyuma ye hari ibiti binini.

Umuhanzi Mbonyi, ari kumwe n'umwana bisa n'aho ari kumuganiriza cyangwa ari kumufasha, yambaye indorerwamo z'amaso, ndetse yambaye umupira usa n'uw'umwana bari kumwe.

Ikigo nderabuzima cya mayange, gisize amarangi y'umuhondo ,gisakajwe amabati y'umutuku, imbere yacyo hahagaze, abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya y'ubururu ,imbere yabo bahagaze umusaza wambaye amarori ndetse n'ikoti ry'umukara.

Ababyeyi bafite abana bari kwitabwaho n'abandi bantu bo mu muryango ushinzwe kwita ku bantu, bari kubaha amata bananywesha abana babo.

Abana batatu bari kuvoma amazi mu nyanja cyangwa mu mugezi munini utembamo amazi bari kuyadaha, bayahagazemo bisa naho amazi bavanye aha aba yanduye ashobora kugira ibibazo ku buzima bwabo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama bambaye udupfukamunwa tw'umukara abandi tw'umweru, ameza bicayeho arambuyeho ibitambaro by'umweru, buri umwe imbere ye hari igitabo ndetse n'ikaramu, ku ruhande amazi yo kunywa bicaye ku ntebe zitukura.

Umuntu uri gukaraba intoki n'amazi meza aturuka mu ruhombo runini yambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu.

Icyumba kinini cyo kwa muganga cyahurijwemo abantu benshi bicaye bakoze uruziga, hagati yabo harimo umuganga uri kubasobanurira ku by'ubuvuzi ndetse na serivise z'ubuvuzi batanga.

Abana bato bari ku ivomo rusange, bari kumwe n'umukobwa uri kubasunikira amazi, inyuma yabo hari imodoka y'ibara ry'umweru ndetse epfo yayo hari igisambu kinini kirimo ibiti byinshi bitandukanye.

Abana bicaye ku ntebe z'urubaho bicaye mu ishuri bari kurya, bafite udupfukamunwa ndetse bambaye imyambaro y'ishuri ari yo kake ndetse na kotoni, bigaragara ko ari abo mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza.

Uruhombo runini rumanura amazi rutezweho akaboko kari gukaraba. Ku ruhande hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibindi by'ibara ry'umuhondo. Hasi h'amazi amanukira harimo amabuye manini.

Abantu benshi bari ku ivomo rusange, bari kuvomera mu tubudo duto tw'umweru n'umuhondo, hasi hari igisorori cy'icyuma kiri munsi y'aho amazi amanukira, hirya y'iri vomo hari igihuru kinini.

Abantu benshi, bamwe bahagaze abandi bicaye, bateraniye ahantu bumva imbwirwaruhame, ku ruhande hari imodoka y'umweru, hari inyubako isakaje amabati atukura, ifite amarangi y'umweru ndetse yubakishe amabuye.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu buvuzi, harimo ibitanda, intebe bigezweho bifite amapine.

Ibyuma binini byifashishwa mu kuyungurura amazi kugira ngo tuyanywe atekanye ndetse asa neza atarimo umwanda. Bifite ibara ry'ubururu.

Umugabo uri kumwe n'abana ari kubakarabya intoki akoresheje igikombe, abana barishimye ndetse bari kumena amazi mu ibase.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'imisego zifite amapine, bicaye bazengurutse ku meza iriho ibirahuri by'ikawa, hari ibiri imbere ya buri muntu, abo abantu bambaye indorerwamo z'amaso.

Abantu bari ku ivomo; umwe arunamye ari gukarabya umwana amukarabiriza mu ibase, undi arahagaze afashe ingabo mu ntoki, hari n' undi mwana uri kuvoma, iri vomo rifite amarangi y'ubururu, inyuma yabwo hari inyubako nini isize amarangi y'umweru.

Icyumba kinini giteraniyemo abantu benshi bisa naho ari abajyanama b'ubuzima, bari guhabwa amahugurwa n'abayobozi babo.

Abajyanama b'ubuzima benshi bicaye mu cyumba kinini, bafite amakaye mu ntoki ndetse n'amakaramu, bambaye amataburiya y'ubururu.

Umujyanama w'ubuzima uri kuvura umwana uri kumwe n'umubyeyi we, bicaye hanze umujyanama yicaye ku gatebe k'urubaho yambaye bote z'umweru, afite ibitabo byinshi yandikamo imyirondoro y'abana amaze kuvura.

Abantu benshi bashagaye ivomo rusange, aho hari umubyeyi uri gusunika amazi, umwana atezeho injerekani avoma amazi, abandi bari inyuma y'imiyezi ikikije iri vomo.

Abana babiri bari ku ivomo rusange, umwe ari kuzunguza icyuma azamuramo amazi, undi yatezeho itojerekani bafata amazi.

Abantu benshi biganjemo abagore, bicaye mu ihema, bahagazwe imbere n'umugore wambaye itaburiya y'umweru ufite indangururamajwi, ari kubaganiriza ku bijyanye n'iby'ubuzima.

Umugore uhagaze hagati y'abantu bicaye bamuzengurutse, arikubabwira, abicaye imbere yabo hari amazi yo mu dupara, bafite udukayi n'udukaramu bari kwandikamo.

Abantu benshi bishimye, bafite umwana bisa naho, ari umubyeyi wabyaye bakaba bishimiye ko yibarutse.

Abana benshi bambaye impuzankano zisa, umwe ari gukora mu mazi, inyuma yabo hari indabo z'umuhondo ndetse n'ibiti by'inu.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bahanze amaso ababari imbere, harimo n'amakamera ahagaze ari kureba abantu bari imbere.

Abagore babiri bari ku ivoma rusange, babiri bari gusunika amazi, undi umwe atezeho indobo y'ububururu bwerurutse, indobo iteretse mu gikarayi kinini.

Umuganga uri kwita ku mwana uri kumwe n'umubyeyi we, ari kumusuzuma bishimye, baseka, bisa naho umuganga ari gusuzuma umwana niba ubuzima bwe bumeze neza.

Abana bato bari ku ivomo rusange, umwe ari gusunika amazi ameneka hasi, injerekani iri ku ruhande, umwe muri abo bana afite inkoni ndetse abo bana bisa n'aho bababaye cyane.

Umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru ishati y'amabara ndetse n'itaburiya y'umweru, yambaye akagaragaza umuntu wakoraga afite umugozi w'ubururu, ari gutera urushinge umwana wambaye ishati y'ubururu.

Abana batandatu bambaye impuzankano ya kake, bari gukaraba intoki ku ivomo rusange, hasi hatezeho indobo z'ibara ry'umuhondo.

Abana babiri bisa naho babayeho mu buzima butari bwiza, bari kuvoma amazi mu cyobo badashye, bisa nkaho babuze ivomo ryiza rizana amazi.

Abantu benshi bambaye amataburiya y'umweru, bambaye uturanga imirimo bakora mu ijosi dufite imigozi y'icyatsi n'udukarita tw'umweru, hagati yabo hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara na karuvati n'ishati y'umweru, yambaye amarori.

Abaganga bari kwita ku mwana urwaye uri kumwe n'umubyeyi we bigaragara ko bababaye, umwana yararembye cyane kuko yarananutse cyane.

Umukobwa usutamye imbere y'umugezi afashe injerekani y'umuhondo iteretse mu ibase ari kuvoma amazi, inyuma ye hari imyenda yanitse ku mugozi.

Abantu benshi bari kwifotoza, bambaye imyambaro hejuru y'umweru isa, bigaragara ko ari abo mu rwego rwubuvuzi. Bamwe barahagaze abandi barasutamye.

Umukecuru uri kuvoma amazi ku ivomo rusange rifite imiyoboro ibiri imanura amazi, yambaye ingofero y'ubururu, akenyeye igitenge cy'icyatsi ndetse n'umupira ufite amabara.

Abagore babiri bishimye bari guseka banezerewe bisa naho bicaye imbere y'abandi bayoboye. Aba bagore bagaragara nk'abayobozi, inyuma yabo har'ibitambaro by'ibara ry'ubururu.

Umuganga w'umugore n'umugabo bicaye ku ntebe y'urubaho, bisa naho uyu muganga ari gufata umwirondoro w'uyu mugabo, inyuma yabo hari icyapa kivuga ngo: "sida iracyahari duhagurukire kuyirwanya".

Abantu benshi bari ku mugezi bari kuvoma, umugore uri kuvomesha kuri iri vomo ari kureba niba amazi yuzuye kugira ngo atameneka, inyuma y'iyi migezi hari abana benshi bahagaze bahareba.

Abantu benshi bari ku ivuriro, bicaye hanze ku bisima ndetse no mu busitani bw'ib bitaro, ni benshi bisa naho baje gufata serivise z'ubuvuzi.

Abantu babiri umwe barikudaha amazi mu mugende, yambaye inkweto z'umuhondo, ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu, inyuma ye hagaze undi muntu utagaragara.

Abantu benshi bari ku ivomo rusange, bari kureba umugore uri gusunika amazi, ku mugezi hatezeho ijerekani z'umuhondo zifashwe n'umwana wambaye agapira k'umutuku.

Inyubako ya gira ubuzima isize amarangi y'ibara ry'ubururu imbere yayo hahagaze abantu harimo abambaye amatabuririya y'umweru, abambaye amashati y'umweru, ndetse n'abandi bambaye indi myambaro itandukanye Ku ruhande rwa ruguru hari igisambu kinini kirimo byatsi.

Abantu benshi b'urubyiruko bari ku ivomo rusange, bari kuvoma, umwe muri bo wambaye imyambaro y'ubururu, ari gusunika amazi, abandi bari kumurebera, bateze amajerekani ku ivomo.

Abana bane bahagaze ku ivomo rusange, umwe ari gusunika amazi, abandi bahagaze bamureba, umwe yambaye bote ndetse yambaye umupira w'umutuku, afite n'inkoni mu kuboko.

Umwana uri gukaraba intoki ku ivomo, yambaye impuzankano y'ishuri, imbere ye hari akantu ko bashyiramo imyanda kari mu ibara ry'icyatsi, imbere mu kigo harimo indabo z'umuhondo.

Abagore batatu bari kuvoma amazi ku ivomo rusange, babiri barimo barakoresha imbaraga zabo, bazamura bongera bamanura kugira ngo amazi asohoke, undi ateze amazi mu ndobo y'ubururu.

Umwana muto ufite icupa ry'amazi ari kuyamena ku rukuta, ahagaze ahantu hitaruye abandi, imbere hari inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye ifite amarangi y'umukara hasi, inyuma yayo ifite niy'ubakishijwe amatafari y'ibitaka.

Inyubako iteraniyemo abagore bishimye bari guseka, bazengurutse ameza, bisa n'aho bishimiye serivisi bari guhabwa.

Abantu bahagaze mu nzira y'igitaka, bari gutura umwana wikoreye akabido k'amazi, bisa naho uyu mwana akiri muto, ari kwivunisha ndetse yabaswe n'igwingira.

Icyumba kinini gihuriyemo abantu benshi b'ingeri zose batandukanye, bisa naho aho bari kwiga kuko bose bafite impapuro bari kwandikaho.

Umwana wambaye impuzankano ya kacye hejuru n'ijipo y'ikigina kijimye, ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, inyuma ye hari abandi bana, hakaba igiti kinini cy'inganzamarumbu gifite amashami menshi.

Abantu benshi bahagaze mu nyubako isize amarangi y'umweru, ifite inzugi zisize amarangi y'umuhondo wijimye, abantu bahagaze imbere yaho bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'imyambaro yo hasi y'umukara, abandi bambaye iy'umutuku.

Abantu bari mu cyumba bicaye basa n'abakoze akaziga bicaye ku ntebe z'umweru hari ameza y'igiti, inyuma ya bamwe muri bo hari igitambaro gifite amarangi y'ubururu, umwe yicaye ku ntebe y'urubaho.

Umwana uri guseka wishimye aranezerewe yambaye umwambaro usa n'aho ari uw'ishuri ufite agakaruvate, yicaye ku ntebe y'urubaho, inyuma ye hari abandi bana bahicaye.

Abantu benshi bambaye impuzankano bari kumwe n'abayobozi babo, bahagaze hagati y'inyubako, bisa naho ari kwa muganga, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi bambaye impuzankano isa, bisa naho ari ishami ry'umuryango runaka, bari gukora igikorwa cy'umuganda batera ibiti, byifashishwa mu iterambere ry'igihugu.

Umuntu uhagaze imbere y'abagore benshi bambaye udupfukamunwa, bicaye ku ntebe z'urubaho, abahagaze imbere yambaye ishati y'umutuku ndetse n'isaha ku kuboko yabambaye agapfukamunwa ari kubigishiriza ku kibaho cy'umweru.

Umukecuru wambaye urunigi mu ijosi, yambaye yiteze igitambaro mu mutwe cy'umweru, inyuma ye ku rukuta hasize amarangi y'umweru.

Abantu benshi bambaye impuzankano isa, bisa naho ari abakoranabushake bo mu ivuriro, barishimye, bari guseka, bisa naho bari kumwe n'abayobozi babo bahagaze hagati y'inyubako.

Umuntu wicaye bisa naho afite ikibazo, ari kumwe n'undi umuri iruhande uri kumuhumuriza amugira inama. Bisa naho uyu nguyu ashinzwe kuganiriza abantu ku bibazo bafite ndetse no kubahumuriza.

Umutwe ugaragaza ishusho y'igice cy'ubwonko, igice cy'ubwonko kiri mu ishusho y'ibara ry'iroza n'umuhondo muke, igice cyo mu maso ndetse n'inyuma karyori ari mu ibara ry'ubururu.

Inyubako nini isize amarangi y'umuhondo, amadirishya asize amarangi y'ubururu, amabati asize amarangi y'umutuku, ku ruhande izitijwe n'ibyuma, fondasiyo yayo irimo amabuye manini.

Icyumba kinini kirimo abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hahagaze umukobwa umwe uri kubereka ibintu ku mashusho, inyubako barimo isize amarangi y'umuhondo.

Umuntu wicaye hasi yambaye imyambaro isa nabi, inkweto zacitse, umupira w'umutuku, yegamye ku rukuta rwanditseho ibintu byandikishije ibara ry'umukara, impande ye hanyanyagiriye imyanda myinshi.

Abantu benshi bahagaze abandi bicaye, bamwe muri bo bambaye impuzankano z'umukara, abo ni abahagaze abicaye bisa naho ari abayobozi babo, bahagaze imbere y'inyubako, bahanze amaso umuntu uri gufata ishusho y'urwibutso.

Abana benshi bari kumwe n'umukecuru bicaye hasi bisa naho bafite ibibazo, gusa bakaba bakeneye umuntu wabaganiriza akabahumuriza.

Umwana uri kurira ubabaye cyane ari kumwe n'umubyeyi we ndetse hari n'abandi bana bari kumwe n'ababyeyi babo, bisa naho babayeho mu buzima butanejeje.

Umuntu wicaye impande y'igiti cyanditseho amagambo, azirikishijwe umunyururu ku kaguru, umunyururu ufashe ku giti, yambaye umupira w'umweru ndetse yiyicariye ku mu umusambi.

Abajyanama bafasha abantu bafite ibibazo kubagira inama ndetse no kubatega amatwi bakababwira ko biyumva, baba begereye abaturage bagashinga ihema kugira ngo babafashe.

Umugore ukambije agahanga bigaragara ko yarakaye, yiteze igitenge kirimo amabara menshi, yambaye ishati ifite amabara y'umuhondo.

Umugabo ushinzwe kuganiriza abantu babana n'uburwayi cyangwa ababana n'ihungabana ryo mu mutwe, ari gusuhuza umugabo usa n'aho ufite ikibazo cyo mu mutwe amwegereye ndetse yisanzuye yisanishije na we.

Inyubako nini irimo abantu benshi bicaye, imbere yabo hari abandi bantu babiri bahagaze, umwe yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara kandi yambaye ikanzu afashe agasakoshi mu ntoki, aba bombi bafite indangururamajwi bari kuganira.

Umuntu wari guseka wishimye ufite ubwanwa, yambaye umupira w'umuhondo, inyuma ye hari ibara ry'umweru.

Abantu benshi bahagaze mu nyubako imeze nk'ihema rishinze ahantu, imbere yabo hari ameza arambuyeho ibitambaro by'umukara iriho ibikoresho bitandukanye.

Umugore witeze igitambaro cy'umuhondo yicaye ku ntebe y'urubaho nini, inyuma ye hari urukuta rusize amarangi y'umweru.

Intore yishimye iri guseka bisa naho iri guhamiriza, ifite icumu yambaye ingofero, ifite umwitero w'umuhondo ku rutugu, iranezerewe.

Umuntu uhagaze imbere y'abandi benshi ari kubabwira azamuye ukuboko bisa naho afite ibyo ari kubasobanurira, abicaye bicaye ku ntebe z'umukara ameza ni ay'ibiti abari imbere.

Umugabo usa n'aho ari umusazi wambaye imyenda yacitse hasi no hejuru afite umusatsi mwinshi ujagaraye n'ubwanwa bujagaraye, bisa naho akeneye abantu bamuganiriza bakamugira inama.

Abantu benshi bahagaze, abandi bicaye imbere y'abahagaze, bari gufata ishusho y'urwibutso ,bisa naho ari abakozi bo mu buvuzi cyangwa abakozi bo mu kigo cy'ubuvuzi, barishimye bari guseka, bahagaze hagati y'inyubako.

Abantu benshi, barimo abantu bakuru ndetse n'abana barishimye baranezerewe bazamuye amadarapo y'Igihugu cy'u Rwanda bisa naho bari kwamamaza umukandida.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko rw'abasore, bari mu cyumba cy'inama, bambaye impuzankano y'imipira y'umukara, iriho ibirango bisa, bisa naho barangajwe imbere n'Umuyobozi ubayoboye muri iyi nama.

Icyumba cy'inama, irimo abantu benshi bayitabiriye, bamwe muri bo bambaye indorerwamo z'amaso, imbere yabo ku meza bafite amakayi bari kwandikamo ndetse bakagira na mudasobwa n'amazi yo kunywa.

Umugabo wishimye ufite ubwanwa uri guseka yambaye indorerwamo z'amaso, yambaye umupira w'umweru.

Umusore n'umwana bambaye imipira y'umweru bose bafashe ku kagozi bagafatisha mu menyo yabo bafatishije amaboko yombi.

Umusore wishimye ari guseka afite ubwanwa bwinshi bw'umukara yambaye ishati y'ikoboyi umupira w'ikigina, inyuma ye hari inyubako zifite amarangi y'umweru.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi mu cyumba cy'ubuvuzi, umurwayi aryamye ku gitanda cy'abarwayi umuganga ari kumusuzuma, yambaye agapfukawa n'uturindantoki by'umweru, afite akantu amaze gufatiramo ibizamini.

Umuganga wicaye mu cyumba cy'ubuvuzi, kirimo ibikoresho bigezweho, yambaye itaburiya y'umweru, isaha y'umukara, yicaye ku gatebe gafite amapine iruhande rw'igitanda cyifashishwa igihe bari gusuzuma uburwayi bw'umurwayi.

Umuganga uri mu biro bye ari gukoresha imashini zabugenewe asuzuma imiti ndetse afite n'ifishi ariko agahita yandikamo bitewe n'ibyo ari gukora.

Abaganga babiri bateraniye ku murwayi w'amenyo bamukura, bose bambaye uturindantoki, udupfukamunwa ndetse n'indorerwamo z'amaso, umwe ari kumukura, undi ari kumukeshereza n'urumuri.

Umwana wishimye uri guseka, uri kwitabwaho n'umuganga, ari kumusuzuma mu kanwa, areba niba nta kibazo afite.

Umusore ufatishije amenyo akadodo afatishije na none intoki ku ruhande, yambaye ubusa hejuru hasi yambaye ikabutura y'umweru ari kwireba mu ndorerwamo, indorerwamo imantse ku rukuta rufite amarange y'umweru.

Umuganga wambaye amarori yayashyize mu mutwe yambaye apfukamuwa k'umweru, itabuririya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru, bari gutera ikinya umurwayi w'amenyo amuryamishije ku gitanda cyabugenewe.

Umuntu ufite ubwanwa, ufashe akantu k'ubururu, agafatiye mu menyo, inyuma ye hari urukuta rw'umweru.

Abaganga bari kwita ku mwana, bari kumusuzuma niba nta kibazo afite mu kanwa, abaganga umwe arahagaze undi aricaye, bicaye ku ntebe z'urubaho ameza y'urubaho, ku meza muganga afite impapuro ari kwandikaho uburwayi bw'abarwayi.

Umukobwa wishimye ari guseka, ari kwireba mu ndorerwamo yicaye ku ntebe y'umweru, yambaye igitambaro cy'umweru mu ijosi, inyuma ye hasize amarangi y'umweru ku rukuta ndetse n'impande ye hari udukoresho tw'umweru.

Icyumba kinini, kirimo imashini zifashishwa mu buvuzi, gifite igitanda gifite ibara ry'iroza, n'intebe ifite ibara ry'iroza, intebe ifite amapine, ndetse hirya yaho hari intebe y'umukara, ifite akabati k'umweru.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuziranenge mu kanwa, bafite abaganga benshi bajyanye gusuzuma abaturage babegereye, bashinze ihema rinini bari kwakiriramo abarwayi.

Umukobwa uri koza amenyo akoresheje uburoso bw'ubururu, yiteza igitambaro cy'umweru, yambaye isengeri y'umweru, inyuma ye hari amarido y'ibara ry'umweru.

Umugabo wasamye, ugaragaza amenyo n'ishininya ye, afite urudodo afatishije amaboko yombi, ari gusuzuma niba amenyo ye akomeye nta ririmo rijegajega.

Abana bambaye impuzankano isa, barishimye bazamura amaboko ndetse amaboko arimo korogate n'uburoso, inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'ibiti bambaye imyambaro yanditseho tubiteho, imbere yabo hari korogati, ku meza arambuyeho igitambaro cy'umweru bahagaze bambaye udupfukawa tw'umweru bambaye imipira y'imyeru.

Imashini nini yifashishwa n'abaganga, igihe bari gusuzuma amenyo y'umuntu niba ntabazo afite, iyi ni ishusho igaragara muri iyo mashini, igihe bari kureba niba ntakibazo kirimo.

Umuganga uvura amenyo yambaye uturindantoki tw'umweru, agapfukamunwa k'ubururu n'imyambaro y'akazi y'ubururu, yambaye indorerwamo z'amaso zifite udutoroshi turi kumurika mu kanwa k'umurwayi.

Umugabo uri kwireba mu ndorerwamu, yambaye ishati y'umweru afite urudodo afatishije amaboko yombi, ari kureba ko amenyo ye akomeye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho mu ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, harimo n'utubati twiza tugezweho, ibikoresho harimo intebe zifite amapine, ibitanda bifite amapine ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma imiti ndetse n'abarwayi.

Umugabo ufashe urudodo arufatishije intoki arushyize ku menyo yambaye ubusa hejuru afite eswime ku rutugu ndetse afite ubwanwa bwinshi.

Umuntu ufashe akadodo agafatiye hagati y'amenyo, agafatishije intoki, arigushinyiriza, yambaye ibasengeri y'umweruru, inyuma ye hari ibara ry'igicu gikeye.

Abaganga bateraniye ku murwayi, bambaye imyambaro y'akazi y'ibara ry'umukara, bose bambaye indorerwamo z'amaso ndetse bambaye n'udupfukamunwa, umurwayi nawe bamwambitse indorerwamo z'amaso bari kumureba mu kanwa.

Umukobwa wishimye ari gusuzuma amenyo ye, akoresheje agakoresho kabugenewe, areba niba nta kibazo afite.

Umuganga w'amenyo, ufite igikanka cy'amenyo bisa nkaho ari kwiga uburyo bwo kuvura cyangwa gukura amenyo y'abantu.

Umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru, itaburiya y'ubururu, ari gukura iryinyo umurwayi akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Ni umugabo ufatiye urudobo hagati y'amenyo anasamye, urudodo arufatishije amaboko yombi. Yambaye ubusa hejuru.

Igikanka cy'amenyo kigaragara iyo umuganga akoresheje imashini y'ikoranabuhanga asuzuma uko amenyo y'umuntu ameze, niba nta kibazo afite cyangwa afite ikibazo cy'uburwayi.

Umuganga w'umugore ari gukura amenyo umugabo akoresheje icyuma cy'ikoranabuhanga kifashishwa mu gukura amenyo, umuganga yambaye uturindantoki tw'ubururu ndetse yambaye n'itaburiya y'ubururu.

Umuganga wamenyo uri kwita ku murwayi urwaye amenyo ari kumureba mu kanwa, yambaye agapfukamunwa k'umweru, uturindantoki tw'umweru n'itaburiya y'umweru, imbere yambariyemo karuvati ari kumusuzuma bisa naho ari kureba niba yamukura.

Umugabo wishimye uri guseka, yambaye ubusa hejuru, ari gusuzuma niba amenyo ye akomeye akoresheje urudodo rw'umweru afatishije amaboko yose.

Umuganga uri kuvura umuntu urwaye amenyo, ari kumutera inshinge mu kanwa, yambaye uturindantoki tw'ubururu, itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi w'amenyo, ari kumutera ibinya mu ryinyo, akoresheje urushinge runini, yambaye uturindantoki tw'umweru, yambaye n'indorerwamo z'amaso.

Abantu babiri b'abaganga bafite igikanka kirimo amenyo, kuruhande rwabo hari imashini zifashishwa mu gukura, bisa n'aho bari kwiga gukuramo amenyo, umuntu umwe muri bo yambaye isaha ku kuboko, yambaye ishati y'umweru.

Umuryango w'umugabo n'umugore bari mu zabukuru urishimye uranezerewe, bicaye mu nzu umugore ari gusoma ibintu ku rupapuro yereka n'umugabo we, imbere ku meza bafite uducupa tw'imiti, ibyo bari gusoma bisa naho ari amategeko n'amabwiriza byifashishwa mu gufata imiti bagiye kunywa.

Umuryango munini, ababyeyi be bafite abana batatu, umugabo yambaye amarori, umugore ari guseka ndetse n'abana bari guseka barishimye cyane, nyuma yaho ahahagaze imodoka.

Umusaza uri mu zabukuru wambaye indorerwamo z'amaso, yambaye ishati y'umweru ari kumwe n'umuganga, yambaye impuzankano y'umutuku ndetse ari kwita kuri uyu musaza.

Umubyeyi wishimye uri guseka, yambaye indorerwamo z'amaso, afite imisatsi miremire, yambaye ikanzu y'umuhondo, afite agacupa ari gusukamo imiti ku ntoki ndetse afite n'indi miti imbere ye ku meza agiye kunywa.

Umukecuru uri mu zabukuru uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye arambije arambuye amaboko ku kaguru karambije akandi karahinnye.

Abagore batatu bishimye bari guseka, bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, bafite amakarita mu ntoki bisa nk'aho ari yo yabashimishije, bakina umukino wayo.

Umukecuru uri mu myaka y'izabukuru, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye mu busitani yarambuyeho umukeka, arambuye amavi ndetse afatishije amaboko ku maguru.

Abagore bishimye bicaye bari kuganira, imbere yabo hateretse ibikarito birimo imbuto ndetse n'inyuma yabo hari imbuto z'amaronji ndetse na kokombure, abo bagore bose biteze ibitambaro mu mutwe.

Umubyeyi n'umwana we barishimye, umubyeyi yicaye mu ntebe, umukobwa ahagaze inyuma ye, umukobwa yambaye itaburiya y'ubururu, inyubako barimo isize amarangi y'umweru. Umubyeyi yicaye mu ntebe zisize amarangi na zo y'umweru.

Umusaza uri mu zabukuru, uri mu imyitozo ngororamubiri, arambuye amaboko afashe utuntu ataruye tw'umutuku, yambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'indangururamajwi mu matwi ye.

Umuryango wishimye uri kurya, uri hamwe, bari guseka baranezerewe. Ibyo bari kurya biri mu isorori harimo imboga, ku ruhande hari inyama ndetse n'ikirahuri kirimo amazi.

Umusaza ndetse n'abana babiri bambaye amashati y'umweru, umusaza yambaye ipantaro y'umukara, umwana umwe yambaye ijipo y'umutuku bari kurya.

Umuganga w'umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, ari gupima umuvuduko w'amaraso umugabo munini ufite ubwanwa burimo imvi, yambaye ishati ya kake, inyuma yabo hari igitambaro gisize irangi ry'umweru.

Umukobwa n'umubyeyi barishimye, umubyeyi afite imvi mu musatsi, yambaye ishati y'umweru, umukobwa yambaye ishati y'ubururu, inyubako yabo ifite ibirahure byerurutse ndetse n'amarido atukura.

Abasaza babiri bakuze bafite imyitero ku rutugu, bari mu ihema rinini ryahuriyemo abantu benshi bisa naho ari ikirori gishimishije, kirimo ababyeyi ndetse n'abasaza bakuze.

Abantu babiri umugore n'umugabo umugabo we yambaye amarori yicaye ku gitanda, umugore arahagaze bari kumuhatsa, igitanda kiriho amashuka y'umweru inzitiramibu y'umweru ndetse n'ibirahure bikeye.

Abantu babiri bicaye ku ntebe ku meza abari imbere hari mudasobwa ndetse hari n'uducupa tw'imiti, umwe yambaye amarori undi afashe agacupa kijimye, inyuma yabo hari akabati ndetse inyubako barimo ifite amarange y'umweru.

Abantu benshi bicaye munsi y'igiti cy'inganzamarumbu, bicaye bakoze uruziga, bamwe bicaye ku ntebe, abandi bicaye hasi, harimo umuntu umwe uri kubaganiriza ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga kinini.

Umugabo ukuze uri mu zabukuru ari kwitabwaho n'abantu babiri, umukobwa n'umuhungu bari kumuhagurutsa ku buriri, bisa naho nta mbaraga afite nyinshi.

Abantu babiri bicaye, umukecuru n'umuhungu, umukecuru afashe inkoni, yambaye urunigi mu ijosi, umuhungu yambaye itaburiya y'ubururu, umukecuru amwegamyeho.

Umukecuru uri mu zabukuru yicaye hanze, atekeye ku mashyiga akoresheje inkwi, yiteza igitambaro cy'umweru mu mutwe.

Umusaza uri mu zabukuru. Ari gukarabywa umubiri n'ababishinzwe bisa naho ari abaganga bamwitaho bari kumukarabya amazi meza n'isabune.

Umuryango wishimye bicaye mu nyubako, ku meza imbere yabo bafite impapuro nyinshi bari gusoma bisa naho bafite ibyo bari kwiyunguho ubumenyi.

Umugabo uri mu za bukuru yifashe ku munwa bisa naho yumiwe cyangwa ari gutekereza cyane, yambaye indorerwamo z'amaso, afite igitabo ari gusoma n'ikaramu mu ntoki ze.

Umugabo uri mu myaka y'izabukuru, ari kwitabwaho n'umuganga, amwereka uko yakimenyereza kugenda akora n'imyitozo ngororamubiri.

umusaza uri mu za bukuru ari kwitabwaho n'umuganga, amupima umuvuduko w'amaraso, umusaza yambaye indorerwamo z'amaso, uyu muganga yambaye itaburiya y'ubururu.

Umuganga ufasha uyu mugabo ukuze mu by'ubuzima bwe bwa buri munsi, ari kumwereka ibyo akora kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza.

Abagabo benshi bicaye mu ntebe nziza bafite inkoni bisa naho bari mu zabukuru, bameze nk'aho basengera mu idini ya Isilamu.

Abantu benshi bishimye bazamuye amaboko mu kirere, bari guseka bahagaze hagati y'indabo, inyuma yabo hari umurima urimo amasaka.

Abagabo babiri bakuze, umwe yambaye ingofero y'urugara, undi nta ngofero yambaye, bari kugendera mu muhanda w'amabuye, inyuma yabo hari ibiti birebire ndetse n'ibyatsi byinshi.

Abakecuru benshi bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe z'umweru, inyuma yabo hari insina into n'inini zishishe, harimo n'izifite amakoma y'ibara ry'umuhondo.

Umuryango w'umugore n'umugabo uri mu zabukuru, urishimye, uranezerewe, uricaye uganira, imbere ku meza bafite imiti bisa naho ari bo bayinywa.

Abantu babiri, umwe azamuye amaboko afashe agatambaro k'umuhondo, undi arahagaze yambaye itaburiya y'umukara, uwicaye yambaye n'umupira w'umweru, inyuma yabo ku rukuta rufite amarangi y'umweru.

Umugore nu mugabo bishimye umugabo yicaye mu ntebe afite ikirahure ari kunkweramo umugore arahagaze yambaye amarori afite imvi ndetse n'umugabo afite imvi umugore yambaye ikanzu yubururu umugabo yambaye umupira w'umweru.

Umuganga wambaye imyambaro isa hasi no hejuru y'iroza, imbere ye hicaye umukecuru uri mu za bukuru bisa n'aho ari kumupima indwara, umuganga yambaye indorerwamo z'amaso n'agapfukamunwa, n'uturindantoki tw'umweru ndetse n'isaha y'umukara.

Abaganga bambaye imyambaro y'ubwirinzi, bisa naho bari kuvura umurwayi ufite icyorezo cyangwa indwara ishobora kuba yandura.

Inyubako nini irimo ibyapa binini, harimo abantu bahagaze bemye bari gufata ifoto, bahagaze ku itapi y'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bambaye imyambaro y'umweru bari kugenda mu muhanda, bafite icyapa cyanditseho rubyiruko ni mwe hazaza hejo h'uru Rwanda. Irinde virusi itera sida, ipimisha uyu munsi.

Umukobwa wicaye mu ntebe nziza, arishimye ari guseka, afite indangururamajwi ari kuvugiramo, yambaye indorerwamo z'amaso ndetse n'ikarita imuranga mu ijosi, yicaye areba imbere.

Umuganga uri kuvura abantu, abapima umuvuduko w'amaraso, bisa naho yabasanze aho batuye, imeza bicayeho hariho indangururamajwi ndetse n'imashini yifashishwa mu kureba niba umuntu nta kibazo cy'umuvuduko w'amaraso afite.

Abantu benshi bicaye mu nyubako bisa naho ari abaganga cyangwa abandi bantu bakora mu rwego rw'ubuvuzi, bari guhabwa amabwiriza ndetse n'ibikoresho byo kwifashishwa mu gutanga ubufasha.

Abaganga bari gusuzuma abantu bambaye bikwije ndetse ku ruhande hari abandi batonze umurongo bategereje kuba basuzumwa n'aba baganga, bafite ihema bari gukoreramo.

Abantu benshi barimo abagore n'abakobwa ndetse n'abasore n'abagabo, barishimye bahagaze imbere y'inyubako nini bazamuye amaboko hejuru.

Abantu benshi, bahagaze bishimye, bari guseka, bamwe muri bo bambaye indorerwamo z'amaso, abandi bambaye amakanzu, abagabo bambaye amakoti, bahagaze imbere y'ibirango by'u Rwanda byandikishijwe mu ibara ry'umweru ku gitambaro gifite ibara ry'ubururu.

Umuntu wambaye ijipo y'umweru, umupira w'ubururu afashe indangururamajwi ndetse na telefone mu ntoki ze, yambaye amarori ahagaze imbere y'abandi bantu bicaye ku ntebe z'ubururu, inyuma yaho hari umuntu wicaye, imbere ye hari mudasobwa, hejuru ye hari indangururamajwi nini.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari umuntu uri kubasobanurira ibintu biri kuri televiziyo iri imbere, aba bantu bicaye imbere yabo hari mudasobwa, iri kwaka.

Abaganga bari kumwe n'abakoranabushake, bari kwita ku murwayi wagize ikibazo gikomeye, aryamye kuri burankari, bari kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Abaganga bambaye bikwije imyambaro ibarinda kuba bakandura icyorezo cyangwa indwara bagiye kuvura umurwayi, bafite ibyuma mu ntoki byifashishwa mu buvuzi.

Umukecuru wishimye uri guseka, bisa naho yagize ikibazo cyo ku jisho rirapfutse ririho igipfuko cy'umweru, yambaye ingofero y'umutuku mu mutwe, ariko bisa nkaho ijisho rye rirwaye cyane.

Umuganga uri gukingira ababyeyi abatera urushinge ku kuboko, yambaye agapfukamuwa k'ubururu, ishati y'umweru.

Icyumba kinini kirimo abaganga benshi, bari gutanga ubuvuzi ku bantu benshi batandukanye baje babagana ,bisa n'aho ari ubuvuzi bwagiye gutangwa ahantu ,bwegerejwe abaturage.

Icyumba k'inama giteraniyemo abantu benshi, abayobozi ndetse n'abayoborwa bakurikiranye inama bari kuganira, abayobozi babo ndetse n'abayoborwa bambaye amakoti, bose biganjemo abagabo, abagore ni bake.

Abantu bakora mu rwego rw'ubuvuzi bambaye udupfukamunwa dusa tw'ubururu, umwe muri bo yambaye indorerwamu z'amaso arishimye.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bigezweho bifite amapine, bifite amashuka meza, birimo abaganga bambaye imyenda y'akazi, ndetse n'abarwayi n'abarwaza babirimo.

Icyuma bifashisha mu gupima indwara umuntu yaba arwaye cyangwa mu gupima ubuziranenge bw'ikintu runaka, mu by'ubujyanye n'ubuvuzi, gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara ku mutwe.

Inzu y'ababyeyi ni inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'ubururu, ihuriramo ababyeyi bafite abana bato, baje gufata inama zigenerwa abana ndetse bagahabwa n'imfashabere kugira abana babo babashe gukura neza.

Inyubako nini isize amarangi y'umweru, ifite inzugi zifite amarangi y'umuhondo. Ku rukuta hari agashushanyo k'agatete k'ibara ry'umutuku. Imbere yaho hari intebe y'umweru ndetse n'agatanda k'umweru.

Icyumba kinini kirimo intebe nyinshi z'amabara atandukanye. Gifite utuzanamuyaga mu nzu turinda ubushyuhe, ndetse inyubako ifite amarangi y'umuhondo ndetse n'ay'umweru ku nkuta.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byiza bigezweho byifashishwa mu buvuzi, harimo ibitanda, intebe, utubati, utugare, bigezweho muri ubu buvuzi bwo muri iyi minsi.

Akabati kanini gakozwe mu byuma, karimo udukarito twinshi dutandukanye tw'imiti itandukanye, urukuta rufite amarangi y'umweru, akabati gasizwe amarangi y'umweru n'ako.

Inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo ifite indi nyubako yubatse nk'uruziga, ifite ibirahure byijimye imbere yayo ifite ubusitani bunini ndetse n'inzira y'abanyamaguru.

Inzu y'ababyeyi, ifite amarangi y'umweru ku nzugi ndetse no ku nkingi, yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hicaye abantu bambaye impuzankano isa y'imipira y'ubururu.

Inyubako nini, yubakishijwe amabuye, ifite ubusitani bunini, buhagazemo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere y'inyubako hari izindi nyubako zisize amarangi y'umweru, ziriho ibiti birebire, by'inganzamarumbo.

Ivuriro rinini ryigenga ricuruza imiti, risize amarangi y'umweru, imbere rifite utubati tunini turimo imiti, harimo mudasobwa ifite amarangi y'umweru, umuntu uyikoresha yicara ku ntebe y'umweru.

Inyubako nini isize amarangi y'umweru, ifite ibirahure byijimye, imbere yayo hari ubusitani, hakaba n'umuhanda munini, ku ruhande haparitse imodoka y'umweru, ndetse hari n'igicu cy'ubururu n'umweru.

Icyumba kinini gifite amakaro y'umweru amarangi y'umweru ku nkuta ndetse no hejuru kuri pararafu, kirimo intebe zifite amaguru y'ibiti hejuru zifite imisego ndetse zitite n'akameza kurubaho imbere.

Inyubako nini yo ku ivuriro, ifite abacungamutekano bambaye impuzankano yabo, imbere harimo abaganga ndetse n'abarwayi n'imodoka zihahagaze, hari icyapa kinini kigaragaza uko batanga serivisi.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byinshi, byifashishwa mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, mu guterura ibintu biremereye.

Umugabo uri mu biro bye afite mudasobwa ebyiri ari kureberaho, yitegereza uburyo bw'indwara zifata mu nda bikora.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda cyiza gifite amashuka y'umweru, ikagira ibishushanyo ku rukuta, ikagira intebe ifite amapine ndetse n'akabati ku ruhande kabikwamo imiti y'abarwayi.

Ibitaro bya Nyanza bifite inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye, bifite amarembo asize amarangi y'ubururu, agira ibyapa bisize amarangi y'ubururu ndetse n'urukuta rusize amarangi y'umweru, imbere harimo ibiti by'inganzamarumbo binini.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe gifite ikirango gisize amabara y'ubururu, inyubako yaho yubakishijwe amatafa ahiye, gifite ubusitani burimo ibiti binini ndetse n'indabo z'ibara ry'umuhando.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha, giteye amarangi y'umuhondo, cyubakishijwe amatafari ahiye, amadirishya n'inzugi bisize amarangi y'umukara, imbere yaho hicaye abantu ndetse gifite n'amakaro y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini nini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, zifite igitanda kinini kiryamaho umurwayi igihe bari kumukorera ibizamini, bareba uko ubuzima bwe buhagaze.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igitanda gikikijwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma, uburwayi bw'umuntu bari kwitaho, bifite ibikoresho by'ibara ry'umweru.

Inyubako nini, yubakishije amatafari ahiye, ni inyubako y'ababyeyi, imbere yayo hari indabo z'umuhondo, hakaba ubusitani bw'icyatsi kibisi, imbere yaho hari inkingi z'ibyuma z'umukara.

Umunyeshuri uri kumwe n'abayobozi ndetse n'abarimu basuye ishuri ryabo ari kubereka igikanka cy'amenyo cy'aho bigira uburyo bwo gusukura amenyo ndetse bituma amenyo acya agashiraho umwanda.

Icyumba kinini gisize amarange y'umweru hasi no hejuru, gifite imashini nini ndetse n'intebe nini isize amarange y'ubururu bwererutse ndetse hasi hayo h'umweru, iruhande rwayo hari agatebe gafite amapine k'ibara ry'umukara.

Icyumba kinini kigezweho cyifashishwa mu buvuzi, kirimo ibitanda bifite utu matera tw'umukara ndetse n'ibyuma byo hasi by'umukara, bifite imashini zifashishwa mu buvuzi, zifite amarangi y'umweru, zifite aho berekanira uburwayi bw'umuntu n'ibindi.

Inyubako nini zigeretse, zisize amarangi y'umweru, zifite aho bahagarika imodoka hanini, hari imodoka z'ubwoko bwinshi butandukanye, hari umusekirite wambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'umutuku ndetse n'ipantaro y'umweru, ari kuyobora abaje kuhaparika imodoka aho bazishyira.

Inyubako nini y'ivuriro, yubakishijwe amabuye ifite ubusitani ku ruhande bufite indabo zishishe zifite uturabyo dutukura, imbere yayo hahagaze abaganga ndetse n'abarwayi bagana iri vuriro.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bibiri bifite amarangi y'umweru ndetse bifite amapine, ku ruhande hari amarido y'umweru ndetse inyubako isize z'amarangi y'umweru.

Abantu batatu bari mucmba gisize amarangi yumweru, harimo itara ryaka mu ibara ry'umweru, kuruhande hari umuntu uhagaze impande y'abantu bicaye, abicaye impande yabo hari mudasobwa, uhagaze yambaye imyenda y'ubururu, uwicaye yambaye itaburiya y'umweru n'undi wambaye umupira w'umukara.

Inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye, ifite imiryango isize amarangi y'umweru, ibirahure bigaragara, ifite amabati y' ibara ry'ubururu.

Ibitaro bya Shyira bifite inyubako nini isize amarangi y'umweru bisakajwe amabati atukura, ni ibitaro binini byoherezwaho abarwayi barembye cyane baba bananiwe kuvurwa n'ibitaro byo hasi.

Inyubako yo kwa muganga nini ifite ubusitani bunini bukikijwe n'amabuye ahubatse azamuye, yicarwaho n'abarwayi bategereje guhabwa ibisubizo.

Ibitaro bya Butaro bifite ubusitani bunini ndetse n'ibiti by'inganzamarumbo biteye mu busitani bwabo, bukikijwe n'ibiti binini, bufite icyapa kinini kiriho abantu bambaye amarori.

Inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo ifite ubusitani bufite indabo z'umuhondo ndetse n'iz'icyatsi kibisi, imbere y'inyubako hari ikizimyamuriro ku rukuta rusize amarangi y'umuhondo ndetse hejuru hariho irangi ryumweru, hari abantu bicaye ku ntebe nini imbere yayo.

Ivuriro rinini, rifite utubati twinshi turimo imiti y'ubwoko butandukanye, harimo iri mu dukarito tw'umweru, tw'umuhondo, tw'umutuku ndetse hagati harimo intebe y'urubaho ndende, imbere yaho hari intebe hanze y'umweru.

Abaganga babiri bahagaze impande y'igitanda kiryamyeho umurwayi, bambaye amataburiya y'umweru, umwe yambaye amarobi, inyubako isize amarangi y'umuhondo, igitanda gisize amarangi y'umweru.

Inyubako nini ifite ibyumba byinshi bitandukanye bifite imiryango y'umutuku inyubako isize amarangi y'umweru hasi ikagira uturangi duto tw'umukara ndetse na parafo yayo ifite amarangi y'umweru.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi harimo igitanda cy'umweru, harimo ndetse n'imashini nini zifashishwa harimo agatebe k'umukara gafite amapine, urukuta rusize amarangi y'umweru ndetse hari n'urundi ruhande rusize irangi ry'iruhozo.

Inyubako y'ibitaro binini, bifite amarembo magari, ndetse n'ahahagarara imodoka zaje kuri ibi bitaro, bifite inyubako ndende igeretse, yubakishijwe amatafari ahiye, isize amarangi y'umweru ku nkingi ndetse no hejuru, ikagira igiti kinini cy'inganzamarumbo kiri ku ruhande.

Umugabo wicaye kwa muganga munsi y'igiti k'inganzamarumbu gihari gifite amashami manini ndetse yicaye ku mabuye yubatswe afite indabo inyuma yayo.

Inzu y'ababyeyi isize amarange y'umuhondo imbere yayo hahagaze abaganga bane bambaye impuzankano y'ubururu bwerurutse ndetse n'ubupfukamannwa bw'ubururu.

Icyumba gisize amarangi y'umweru, kirimo igitanda kinini cy'umweru, gisasheho amashuka y'umweru, ku ruhande hari akarobine bafunguriraho amazi k'umweru.

Umwana uri gusunika umugabo wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, umwana yambaye ikoti n'ipantaro by'umukara, akagare gasize amarange y'umukara, ari kumwinjiza mu ihema, mu marembo yaryo hahagazemo umukobwa wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umuganga uri kumwe n'umusaza barishimye bari guseka, bisa n'aho uyu muganga ari gupima uyu mugabo umuvuduko w'amaraso, uyu mugabo yambaye indorerwamo z'amaso ndetse arakuze.

Icyumba kirimo umuganga ndetse n'umwana, muganga yambaye agapfukamunwa k'ubururu, itaburiya y'umweru, umwana yambaye ishati y'umweru, muganga ari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Ibitaro bya Gihundwe bivura amaso, bifite inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'ubururu, ifite ubusitani imbere yaho, ndetse ikikijwe n'indabo z'amababi y'umuhondo.

Ivuriro rinini rifite ubusitani bunini, ni ivuriro rya Nyarugenge rifite inyubako nini igeretse, rifite amatara afite imirasire y'izuba mu busitani bwayo.

Ikigo nderabuzima cya Save, kiri ku buso bunini gifite, inyubako nini zubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'ubururu, ifite ubusitani bufite hagati ibiti binini byiza biteye amabengeza.

Abantu benshi batonze umurongo bahagaze, aha imbere yabo hari abandi bicaye ku meza harambuye igitambaro cy'umweru, imbere yabo hari umuntu uri mu kagare k'abayifite ubumuga, imbere y'abahagaze hari intebe z'umukara ndetse n'intebe imwe y'urubaho.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibitanda n'intebe byifashishwa mu kuvura abarwayi, ku rukuta hariho ibishushanyo bitandukanye.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo imashini nini ifite igitanda kiryamaho umurwayi igihe bari kumusuzuma, ubuzima bwe ndetse n'uko bihagaze mu mubiri aho atabonesha amaso.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibitanda byiza by'ikoranabuhanga bifite amapine, bishasheho amashuka y'umweru, bifite imisego myiza y'umweru ndetse bikagira n'amatereviziyo imbere ya buri gitanda n'amatara meza.

Icyumba kinini gikorerwamo ubuvuzi, gifite ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo ibibafasha gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, ndetse bakire vuba mu gihe bari kwitabwaho n'abaganga.

Inyubako ya Isange Remera Rukoma, yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati y'ubururu, ifite ibigega by'amazi bibiri by'umukara, ikagira ubusitani bufite indabo z'amababi y'umuhondo ndetse ku nyubako ku ruhande hariho kizimya muriro utukura.

Inyubako nini z'ivuriro rigari rifite ubusitani bunini, rikagira utuyira tunyurwamo n'abarwayi mu gihe bari gufata serivisi zitandukanye zo muri ibi bitaro.

Inyubako nini ifite amarangi atukura, isakaje amabati atukura, imbere yayo hari udusanduku tw'ibitekerezo turi mu iba ritukura, ndetse n'udutebe duhagaze imbere y'umuryango dutukura.

Abantu bari mu cyumba cy'inama kiyobowe n'umugabo uhagaze uri kubereka uburyo bwo kurwanya umubu utera malariya, imbere y'abo bayobozi hari mudasobwa ndetse n'udukayi ku ruhande n'amazi yo kunywa bisa naho ari abayobozi bari kwiga ku kibazo cya malariya.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, gifite amatara yaka urumuri rw'umweru amadirishya akeye ndetse n'inkuta z'ibara ry'umweru.

Abantu babiri bahagaze, bambaye udupfukamunwa, bambaye amataburiya y'umweru, bahagaze imbere y'imashini nini, bari mu cyumba gisize amarangi y'umweru.

Inyubako nini yubakishijwe amabuye, ifite ubusitani bunini, ikagira n'ahantu hatwikiriye ku ruhande harinda ko amazi yakubita ku rubaraza cyangwa imvura ikaba yakangiza ibirahuri.

Inyubako nini y'aho bakirira abafashwe ku ngufu cyangwa abakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'ibara ry'ubururu, imbere yayo hahagaze abantu bambaye udupfukamunwa tw'icyatsi ndetse n'utw'umukara, impande yabo hahagaze imodoka.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo abaganga benshi bamwe bicaye abandi bahagaze, bari gusuzuma imiti niba yujuje ubuziranenge bakoresheje imashini zabugenewe.

Inzu y'ababyeyi, isize amarangi yumweru ku nkuta ndetse no kumadirishya, isakajwe amabati y'ubururu, ku ruhande ifite ubusitani bufite indabo z'umuhondo.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi harimo ibitanda bifite amapine, intebe zifite amapine ndetse n'amateleviziyo agaragaza uko ubuzima bw'abarwayi buhagaze.

Icyumba cyo kwa muganga kinini kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma uburwayi bw'umuntu waje ubagana, bareba niba ingingo ze z'ahatagaragara zimeze neza.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo imashini zifashishwa kureba uko ubuzima bw'umuntu buhagaze mu imbere ahataboneshwa amaso, hakaba n'ibindi byinshi byifashishwa kugira ngo umuntu arusheho kugira ubuzima bwiza.

Ikicungo kinini gifite imyanya ine, ibiri y'ibara ry'ubururu indi yo ni ibara ry'icyatsi, ifite iminyururu miremire, ihagaze ahantu hari ubusitani bw'icyatsi, izitijwe n'ibyuma ndetse n'urukuta rw'amatafari ahiye.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo ibyuma byinshi byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ibi bikoresho bifite amarange y'umukara ndetse harimo n'ibifite amarange y'umutuku.

Abantu batatu bambaye amatabuririya y'umweru, imbere yabo hari ibyuma byifashishwa mu buvuzi, hakaba agatajeri k'umweru, ibirahure bifite utuyunguruzo twijimye ndetse n'ameza na yo ni ay'umweru.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo abaganga bambaye imyambaro bikwije hose y'umweru itagaragaza igice na kimwe cy'umubiri wabo, barimo ari benshi mu ivuriro, harimo ibitanda binini bisa naho aba baganga bari kwita ku barwayi bafite indwara z'ibyorezo zishobora kuba zakandura cyangwa zigakwirakwira kugera mu gihe gito.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye bigezweho by'ikoranabuhanga, harimo ibitanda bifite amaguru ndetse n'amapine, bikagira ibyuma byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Inyubako nini y'ivuriro ikoreramo ibitaro. Ifite ubusitani bunini, bufite indabo zishishe. Ifite akayira nyabagendwa karimo umwana wicaye mu kagare k'ubumuga ,arikugendamo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho, byifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo imashini nyinshi nini zifashishwa n'abaganga, mu gusuzuma abarwayi bareba uko ubuzima bwe buhagaze, urugero rw'abareba n'igihe umurwayi bashobora kuba bakeka ko yaba arwaye umutima, amara, ndetse n'izindi ndwara zifata ibice tutabonesha amaso.

Ivuriro rinini rifite inyubako igezweho, rifite aho baparika imodoka heza, ikagira akayira nyabagendwa, ifite ubusitani bwiza ndetse bunini, ndetse ikagira n'icyapa kigaragaza uko batanga serivisi mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umukobwa uri kwa muganga hagati mu nyubako irimo abarwayi, harimo ibitanda bigezweho bifite amapine yambaye impuzankano y'akazi ifite amarido meza y'ubururu akikije aho buri murwayi aba ari.

Ibitaro bya Ruhengeri, biri mu karere ka Musanze, bifite inyubako nini iri ku buso bugari, bihuriraho abarwayi baturutse mu bice bitandukanye by'akarere ka Musanze, ndetse n'ibindi bice byinshi by'amajyaruguru, baje kwivuriza kuri ibi bitaro kuko bifite ubuvuzi buteye imbere.

Aho bakirira abagana ikigo nderabuzima, hicaye abantu benshi biganjemo abamama ndetse n'abana, imbere yabo hari impapuro zimanitse ku rukuta, zigaragaza amasaha batangiraho serivisi.

Icyumba kinini cy'ivuriro kirimo amarangi y'umweru, gifite imiryango myinshi itandukanye ifite ibirahuri by'umweru.

Ikigonderabuzima cya Gishweru cyubakishijwe amatafari ahiye, gisize amarangi y'umuhondo mo imbere, hateretse intebe y'urubaho, ifite amadirishya asize ndetse n'urugi bisize ibara ry'umukara, impande yaho hari kizimyamuriro y'umutuku.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, harimo imashini, amasaha, intebe z'amapine zigendwamo n'abarwayi batabasha kugenda.

Icyumba kinini cyo kwa muganga kirimo ibitanda bifite amapine, ndetse n'ibindi bidafite amapine harimo udutanda duto, dushyirwamo ibikoresho by'abarwayi ndetse ibitanda bigiye bifite inzitiramibu z'umweru.

Inyubako ndende ingeretse kabiri, isize amarangi y'umuhondo, yubakishijwe amatafari ahiye, ku muryango hari akazu gasize amarangi y'umuhondo, k'abasekirite, imbere mu nyubako hagaze imodoka nyinshi, iyi nyubako ifite uruhande ruzengurutswe n'ibirahuri byijimye gusa.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ku itapi azamuye amaboko yayanyujije hejuru, afashe akaguru akandi ya gahinnye, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umweru n'ipantaro ya kake, ari gukora imyitozo ngororamubiri akaboko kamwe yagafatishije ku kaguru akandi yagafatishije mu mugongo, inyuma ye hari ibara ry'ubururu.

Umuganga uri gusuzuma umwana niba afite ikibazo mu kanwa, yamuramishije ari gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga amusuzuma.

Umugabo bisa naho yavunitse, ari kwikanda akoresheje agatambaro koroshye, karimo umuti, ari kwikanda mu ivi, yambaye ikabutura y'umweru.

Abana benshi b'urubyiruko bari mu myitozo ngororamubiri, bari gukina umukino w'amaboko uzwi nka Basket, bashagawe n'abafana babo benshi, bazengurutse ikibuga bari gukiniramo.

Umuntu wicaye imbere ya mudasobwa y'umukara iteretse kabati k'umweru, yicaye y'umweru impande ye hari izindi ntebe z'umweru, inkuta zisize amarangi y'umweru.

Umugabo uri kunywa amazi akoresheje icupa rigendanwa, yambaye umupira w'ubururu, yambaye urunigi mu ijosi, afite ubwanwa bwinshi bisa n'aho ari mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, afashe hasi n'amaboko yombi, azamuye igituza ndetse igice cyo hasi cyo yakimanuye, ari ku gatapi gatukura, inyubako arimo irimo amavaze arimo indabo.

Umusore uri kunywa amazi akoresheje icupa rigendanwa, yambaye umupira w'umukara, afite agatambaro ku rutugu k'umweru.

Abantu bicaye ku ruhande rw'ikibuga, bisa n'aho ari abaganga b'ikipe, bafite ibikoresho cyangwa udusanduku tw'ibikoresho, bitanga ubutabazi bw'ibanze.

Umuntu uryamye yarambuye akaguru akandi agahinnye, bisa n'aho ari kumwe n'umuganga we ku by'imyitozo ngororamubiri, ari kumukanda mu ivi akoresheje igitambaro cyabugenewe.

Ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze birimo uturindantoki, ibinini bigabanya ububabare, udutambaro twifashisha mu guhanagura ibikomere ndetse n'indi miti yifashishwa kugira ngo amaraso areke kumanuka ari menshi igihe umuntu yakomeretse.

Umugabo uri kunywa amazi mu icupa rito ry'amazi yambaye isaha y'umukara ku kuboko yambaye umupira w'ubururu bisa n'aho ari mu myitozo ngororamubiri ndetse aya mazi afasha mu kugira ngo agire imbaraga zo gukomeza gukora imyitozo nta gucika intege.

Umugabo usa n'aho yakomeretse mu ivi cyangwa yavunitse, ari kwikandisha igitambaro bisa n'aho iki gitambaro gishyushye kugira ngo yigabanyirize ububabare.

Abantu babiri umwe ari kuzirika undi ibitambaro bimufasha mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri bisa naho umwe ari kwigisha undi iby'imyitozo ngororamubiri.

Amazi ni ikinyobwa cyiza gifasha umubiri gukora neza, kigafasha amaraso gutembera, aha dufite icupa ry'amazi rifite umufuniko w'ubururu, ndetse ku ruhande hari andi mazi asa n'ayateye mu kirere, ari mu ibara ry'ubururu.

Umusore uri kunywa amazi mu cupa rigendanwa, yambaye indangururamajwi mu matwi ye, yambaye umupira w'umweru, bisa naho ari mu myitozo ngororamubiri. Amazi afasha umuntu uri mu myitozo ngororamubiri gukora umwanya munini adacitse intege.

Umukobwa wishimye uri kunywa amazi mu icupa rigendanwa rifite umufuniko w'ubururu, icupa rikaba ari umweru, yambaye isengeri y'ubururu irimo amabara y'umweru n'icyatsi, afite umupira wo kwifubika w'umweru ku rutugu.

Umuryango Croix Rouge mu Rwanda ufashe runini, kuko wita ku bagize ibyago, ku bahuye n'ihungabana, mbese utanga ubutabazi n'ubufasha bw'ibanze.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'ubururu, yicaye mu bwatsi bw'icyatsi kibisi, afashe mu ivi n'amaboko yombi.

Umuntu uri mumyitozo ngororamubiri, afashwe n'undi wambaye isengeri y'akazi, bisa naho uyu mwana yavunitse, ari kumwigiza ku ruhande, agiye kumwitaho.

Umugabo wicaye bisa naho ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kurambura amaboko ayazamuye, yambaye isengeri y'umweru n'ikabutura y'umukara.

Imiti iri mu gacupa k'umweru, yifashishwa n'umuntu wahuye n'ububabare, cyangwa wavunitse igihe ari nko mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Imbuto n'imboga birimo kokombure, amarongi, shufurere, na pavuro ndetse n'imineke, ni byiza ku muntu uri mu myitozo ngororamubiri.

Inkweto nini z'umukara ndende zambarwa n'abantu bagiye gutanga ubutabazi bw'ibanze ku bantu runaka cyangwa zikambarwa n'abantu bo mu nzego z'umutekano.

Akagare k'abantu babana n'ubumuga gafite amapine ane, abiri manini na tubiri duto, ari mu ibara ry'umukara, akagare gafite intebe y'umukara, ibyuma by'ubururu ndetse n'ahantu hafata h'umukara.

Umukobwa ufite icupa ry'amazi kumunwa, yambaye agasengeri k'umweru, afite umwitero ku rutugu w'ibara ry'umukara.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bavuriraho by'ikoranabuhanga, hejuru bifite imashini zisuzuma ubuzima bw'umurwayi uko ameze, aho tutabonesha amasoso twebwe nk'abantu.

Abantu babiri, umwe arahagaze undi aryamye ku gitanda cy'umukara, yambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara, uhagaze yambaye ingofero n'umupira w'umukara.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo imashini nini y'umweru yifashishwa mu gusuzuma ubuzima bw'umurwayi uko buhagaze, urugero baba bari kureba nk'umutima niba utera neza, niba amara n'impyiko cyangwa umwijima bimeze neza mu.

Umuntu uri kunywa amazi akoresheje icupa ry'amazi rigendanwa, arahumirije inyuma ye hari ikirere gikeye.

Umukobwa wambaye imyenda y'ubururu yicaye ahantu h'umweru arambije arambuye amaboko ajya kuyakoza munsi y'ibirenge bye.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri yicaye hasi arambuye akaboko afata munsi y'inkweto ye, yambaye inkweto z'umweru, yambaye ipantaro y'umukara, agapira k'umukara gato ndetse terefone ye yayifatiye ku kaboko.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri yicaye ku musambi arambije akaguru kamwe akandi agahinnye, yambaye inkweto zitukura zifite taro y'umweru, yambaye agasengeri k'umutuku...

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri ari kunywa amazi mu icupa rigendanwa, yambaye umupira w'iroza afite telefoni ku kuboko, yashyizemo indangururamajwi ziri mu matwi.

Imashini nini yifashishwa mu buvuzi, ifite igitanda cy'umweru, ndetse iri mu cyumba gisa neza.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye inkweto z'umukara, ikabutura y'umukara ndetse n'umupira w'umukara bisa n'aho ameze nk'uri kwiruka akandagira ku kantu ahagazeho k'umukara, yongera akandagira hasi asimburanyaho amaguru.

Umuntu ushyize icupa ku munwa ry'amazi, yambaye agapira k'ubururu, inyuma ye, hari igicu gikeye, kirimo urumuri rw'izuba.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, agasengeri k'umweru, azamuye amaboko, ateye umugongo, ari kureba mu mazi manini, afite imisatsi miremire igera mu mugongo.

Abantu babiri bari mu kibuga umwe aryamye undi ari kumukanda mu ivi bisa nk'aho yavunitse ku ruhande rwe hari igikapu cy'ubururu ku rundi ruhande hari baro aba bombi bambaye imipira y'ubururu, inyuma yabo hari abandi bambaye imipira y'imihondo.

Umugabo ufite icupa ry'amazi ku munwa, yambaye agapira k'umukara, inyuma ye hari ibintu biri mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Abagabo babiri bari mu myitozo ngororamubiri, umwe arasutamye azamuye amaboko, undi arahagaze, uhagaze yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu, usutamye yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umukara, bari gukorera ku kibuga gifite ubwatsi bw'icyatsi kibisi.

Ibikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze birimo uturindantoki, isabune, alukoro, udutambaro twifashisha mu kuzirika ahahuye n'igikomere, imikasi ndetse n'inshinge n'ibinini n'itoroshi n'ibindi byinshi bifasha umuganga mu gutanga ubutabazi bw'ibanze.

Abantu benshi bari mu cyumba, bamwe baricaye abandi barahagaze, abicaye, bicaye ku intebe z'urubahu, imbere yabo hari mudasobwa ifite televiziyo nini iri kunyuzaho ibintu biri guca kuri mudasobwa, abantu bose barabikurikiye bambaye udupfukamunwa tw'umweru ndetse n'utunu two mu musatsi.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, apfukamishije amavi kuri tapi, arambuye amaboko imbere, yubitse umutwe, ku ruhande rwe hari intebe y'imisego nini.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga, bifite igitanda gikorwamo intebe kigahindurwamo igitanda bitewe n'umurwayi bafite uko arembye, ndetse hakaba n'intebe zifite amapine.

Umukobwa uryamye ku gatapi k'umukara, yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umukara, arambuye akaguru kamwe akandi arakazamuye agafatishije ukuboko, inyubako arimo amadirishya yayo ari kwinjiza urumuri rw'umweru.

Umuntu wambaye umupira w'icyatsi kibisi afashe umupira bakina mu kaboko awufatiye mu rubavu.

Abakinnyi b'umupira bahagaze bisa n'aho hari uwaguye hasi wavunitse, uri kwitabwaho n'abaganga b'ikipe ye, bamwe mu bakinnyi bambaye imyambaro y'umuhondo, abandi bambaye iy'ubururu.

Abantu bicaye ku ntebe z'urubaho, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ari kubasobanurira ku ishusho iri mu mashini imuri imbere, inyubako ifite amarido y'ubururu ndetse n'amakaro y'umweru.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri aterura ibyuma, ku ruhande hahagaze undi uri kumwereka uko agomba kubigenza. Bisa nkaho ari Umuyobozi we.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umweru, ipantaro y'umukara, yicaye arambije akaguru kamwe akandi gahinnye, ndetse arambuye n'akaboko kamwe gafata ku kaguru karambuye.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, ahagaze mu muhanda munini, ku ruhande yazamuye akaguru agashyize ku cyuma gitangiriye umuhanda, yambaye inkweto z'umweru ikabutura y'umukara ndetse n'umupira w'umweru.

Bande cyangwa igitambaro kifashishwa mu guhambira mu gihe umuntu akomeretse, ku ruhande hari agarito bizamo k'umweru.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, kirimo imashini nini ifite igitanda cyayo, cyifashishwa n'abaganga mu gusuzuma uburwayi bw'umuntu, bareba imbere mu mubiri aho umuntu atabonesha amaso.

Abantu babiri umwe w'umuhungu yicaye ku ntebe y'urubaho ari kunywa amazi, undi w'umukobwa arahagaze, azamuye amaboko, imbere yabo buri wese afite igikapu cy'umukara.

Igikapu kinini, kirimo ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, gifite ibara ry'umutuku ndetse n'imigozi n'imashini by'umukara, harimo imiti, inshinge, ibitambaro byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze.

Umuntu uhagaze wambaye ipantaro y'ubururu, inkweto z'umweru n'umukara, turimo n'utubara tw'umutuku n'umuhondo, yambaye agapira k'ubururu kagufi, afashe akaguru ndetse akandi kaboko kari imbere, akaguru karazamuye inyuma ye hari ibara ry'umuhondo...

Ikirahure kinini cy'amazi, kiri gusukwamo amazi n'umuntu utagaragara, akoresheje ibinika nayo y'ikirahure iri mu kirere gikeye.

Umuganga uri kumwe n'umuntu wavunitse, ari kumukanda mu kaguru, akazamuye, amukandira mu itako.

Igikapu kinini cy'umutuku kirimo ibikoresho byinshi, byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, harimo imikasi, udupamba ndetse n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa, harimo n'ibitambaro bazirika umuntu wagize igikomere cyangwa wababaye cyane.

Umuntu uryamye yubitsinda inda, hari undi uhagaze ku ruhande uri mukanda amaguru, uhagaze yambaye imyambaro y'umukara, ndetse yambaye n'udukomo ku maboko, uryamye yambaye ikabutura y'umukara, ndetse kuruhande hari n' uhagaze wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri ari kwikanda mu ivi, yambaye ikabutura y'umukara, afite isaha yambaye y'umukara ku kuboko.

Umugabo ufite icupa ririmo amazi ye ari kuyimena mu mutwe ndetse akanyanyagira mu maso ndetse n'imbere ye, yambaye umupira w'ubururu ndetse yambaye n'agakomo k'iroza.

Umukobwa uri mu imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari mudasobwa, yicaye ku gatapi k'umukara, yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umukara, ku ruhande hari icupa ry'amazi.

Umukobwa wicaye abumbye amaguru ayafatishije amaboko, yambaye impeta, imyenda yambaye iri mu ibara ry'iroza, inyuma ye hari agatebe karekare k'urubaho.

Urugemwe rukiri ruto rw'umuti ukomoka ku kimera, iyo rwinajwe ruragenda rugakura rukabyara amababi menshi, ndetse n'imbuto kugira ngo habashwe gukurwamo imiti ikomoka ku bimera

Ibiti binini by'isombe byifashishwa mu gutunganya no gukora isombe iribwa ndetse bikanifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera kugira ngo abantu turusheho kugira ubuzima bwiza.

Igiti kinini cyakuze kikazana amababi menshi meza atoshye, avamo imiti ikomoka ku bimera ndetse hakavamo n'ingemwe zihaturwa zikajya gutera ahandi kugira ngo twagure ibimera bitanga imiti ikomoka ku bimera.

Isabune nziza yatunganijwe hifashishijwe voka ndetse n'igikakarubamba bizwiho gutanga imiti ikomeye mu kuvura abantu.

Umugore uri gusoroma amababi y'imiti yifashishwa mu gutunganya imiti gakondo ikomoka ku bimera, yiteze igitambaro cy'umweru mu mutwe.

Umucuruzi ucururiza mu isoko rinini, imiti ikomoka ku bimera, arimo iri mu bicupa binini, ndetse agacuruza n'imbuto ku ruhande. Inyuma ye harimo n'abandi bacuruza ibindi bicuruzwa, mu isoko rinini.

Iduka ricuruza imiti ikomoka ku bimera, rifite imiti myinshi itandukanye iri mu bicupa bitandukanye, harimo ibifite imifuniko y'umuhondo, ibifite imifuniko y'umutuku ndetse n'ibifite amacupa yijimye.

Agasekuru batunganyirizamo amababi ndetse n'imbuto bikomoka ku bimera, karimo umuhini wako ndetse n'amababi ku ruhande, hari uducupa turimo imiti iba yatunganyijwemo bivuye muri ayo mababi y'ibimera.

Umuntu ufite uburoso bw'amenyo, bari kumushyiriraho umuti akoresha ayoza ufasha amenyo gukomera ndetse akaba afite ubuziranenge.

Imiti myinshi iri mu tubati tugerekeranyije. Iri mu ducupa tw'umweru, tw'umutuku ndetse n'utw'ubururu. Iri mu byiciro bitandukanye ndetse kandi iva ku bimera.

Umuntu uri gusoroma amababi y'isombe agiye kuyasekura ayakuremo isombe, kuko ni nziza ku buzima bwacu kandi iraryoha.

Umuvuzi w'imiti gakondo afite akabati kanini karimo imiti itandukanye ifunze mu ducupa dutandukanye harimo uducupa twijimye dufite imifuniko y'umweru n'utundi dufite amacupa y'umweru dufite imifuniko y'umweru n'utundi dufite imifuniko y'icyatsi ahagaze inyuma y'ako kabati.

Umuganga gakondo ari gusekura imiti mu gasekuru gato, ku ruhande afite udukono ndetse n'udusahane turiho amababi ndetse n'imizi y'ibiti n'udutungurusumu yifashisha mu gutunganya.

Umuvuzi gakondo ari gutunganya imiti ikomoka ku bimera yifashishije imbuto, amababi ndetse n'ingemwe aba yarateguye.

Icyatsi gitoshye cyifashishwa mu gutunganya imiti gakondo, kiravura ndetse kandi cyane.

Abantu babiri, umukobwa n'umuhungu bahagaze mu ishyamba rinini, ririmo ibiti byifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera, umwe yambaye umupira w'umweru, undi yambaye umutuku ndetse n'ikote ry'umukara.

Iduka ry'imiti ikomoka ku bimera cyangwa iduka ricuruza imiti gakondo, rifite imiti myinshi iri mu dutajeri cyangwa iri mu tubati tureture, ku ruhande hari ibyifashishwa mu gutunganya imiti biri ku meza, harimo imbuto n'imboga byifashishwa mu kuyikora.

Umuravumba ni mwiza ku buzima bwacu, kuko iyo utunganyijwe, ukoreshwa nk'umuti uvura indwara nyinshi, harimo inzoka, inkorora, ibicurane ndetse n'izindi ndwara nyinshi zibasira, cyane cyane imyanya y'ubuhumekero.

Ibiti bishishe bifite amashami meza, bishobora kwaturwa, cyangwa kwinyazwa, bifite n'imbuto zitari guterwa ahandi, bikaba byavamo ibiti byinshi byifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera.

Inzu icuruza imiti gakondo ikomoka ku bimera. Irimo imiti myinshi itandukanye ifunze mu macupa atandukanye. Harimo afite imifuniko y'umuhondo, iy'umutuku, ndetse n'iy'umweru.

Umuvuzi gakondo wicaye mu ntebe z'umukara, imbere ku meza ahafite amacupa arimo imiti itandukanye yatunganyije ikomoka ku bimera.

Umuntu ufashe ku ingemwe y'igiti kifashishwa mu gutunganya imiti, kiracyari gito gusa gifite amababi meza yifashishwa mu gutunganya imiti.

Ibyatsi byinshi bifite indabo zashishe zikuze, zazanye n'imbuto, byifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera ndetse hakavaho n'ingemwe zijya guterwa ahandi zikamera, zikatorerwa mu bindi bice bitandukanye.

Ingemwe ziri mu bihoho zirashishe ndetse kandi zakuze zitandukanye bigaragara ko bazinaje kugira ngo bazajye kuzitera ahandi.

Umuti uvura akanyabugabo, kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, gukumira indwara zifata nka prostate, ugabanyirizwa mirongo itatu kw'ijana kuyo uguzeho.

Amababi y'ibimera yifashishwa n'abavuzi batunganya imiti gakondo kugira ngo babashe gukora imiti ivura ubuzima bw'abantu.

Ibiti bizana amababi meza ashishe yifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera, afasha abaganga gakondo mu gutunganya imiti.

Icupa ririmo ibinini bigabanya ububabare ku muntu wavunitse cyangwa wakomeretse, iyi miti ikomoka ku bimera.

Umugore ukenyeye igitenge cy'umuhondo kirimo amabara atukura, ari gusoroma amababi yindabyo, agiye kuyifashisha mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera.

Imiti gakondo iri mu macupa agerekeranyije, ikaba iri mu tubati tunini, yifashishwa mu kuvura indwara zibasira abantu kandi iyi miti ikorwa mu bimera.

Umuti uvura kurangiza vuba, gucika intege uri mu gacupa k'umweru gafite icyapa ku ruhande kiri mu ibara ry'umutuku.

Amababi ava ku giti giterwa kikamera, yarangiza hakavaho amababi yifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera, ivura bitabaye ngombwa ko umuntu ajya kwivuza, agafata imiti iva mu baganga cyangwa yanyuze mu nganda.

Abantu benshi bambaye impuzankano isa, imipira y'icyatsi harimo abantu babiri umwe yambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara undi yambaye ishati y'umuhondo ipantaro ya kaki, undi umwe yambaye ikote arirengeje ku mupira w'icyatsi bari mu murima.

Icupa ririmo umuravumba ukoze neza, utunganyije uva mu bimera, wifashishwa n'abarwayi igihe bafite ikibazo cy'uburwayi bidasabye ko barinda kujya ku ivuriro rikuru.

Umuntu ufashe ibinini, ndetse n'agakarito kabyo, by'umweru, yambaye ishati y'umweru, ameza afasheho na yo ni umweru.

Amababi y'ibimera ashishe, yifashishwa mu gutunganya imiti ibikomokaho, cyane cyane yifashishwa n'abavuzi gakondo, bavura bakoresheje imiti ya Kinyarwanda.

Ibimera byifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera, ni bimwe mu byatsi biba ari iby'akamaro kuko bifasha abakora imiti gakondo gukora imiti yujuje ubuziranenge.

Umugabo uhagaze mu iduka ricuruza imiti gakondo ikomoka ku bimera, ku ruhande rwe hari undi uri guca amarenga y'ibyo ari kuvuga.

Imbuto n'ibimera byifashishwa mu gutunganya imiti, ibikomokaho harimo tungurusumu, tangawize, ndetse n'ibindi byatsi byinshi byifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera.

Agacupa k'umweru karimo imiti ikomoka ku bimera ifasha umuntu wagize ububabare bwinshi mu mubiri we kumugabanyiriza ububabare.

Igikakarubamba ni igiti cyiza, cyizaho amababi maremare afite amahwa mu ruhande ariko ni igiti cyifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera, ndetse niko kiba gihagaze na cyo kiba ari umuti kuko gishobora kuvura ibiheri igihe ukoresheje amarira yacyo.

Tangawize zikasemo uduce n'izindi zibumbye, zifasha mu gutunganya imiti ndetse no gutunganya icyayi cyo kunywa.

Igisambu kinini kirimo ibyatsi byinshi birimo n'ibiti binini byakuze. Harimo ibyifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera. Ndetse ikongera ikanatemwaho ibindi biti byifashishwa mu kubyagura babyineza ahandi hantu.

Ibiti bifite amababi meza ashishe byifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera ndetse iyo miti ikaba ifite ubudahangarwa bwo kuvura umuntu bitarinze ko ajya mu ivuriro risanzwe.